Umugore ufite mikoro mu ntoki, inyuma ye hariho urupapuro runini rugaragaza ibyo ari kuvuga cyangwa inama yitabiriye, uri gutanga ijambo ku bandi bitabiriye iyo nama.

Abakozi bane ba emutiyene n'umuntu umwe uje gushaka serivisi, ku byapa bafite hariho amatelefone manini cyane agezweho, handitseho amagambo agira ati wikwisondeka, kanda akanyenyeri gatatu, kane gatanu, akanyenyeri zeru maze wihahire interineti nziza.

Abagabo bicaye bambaye neza harimo ufite ikibazo arwaye amaso, bicaye ku meza nini y'umukara, bafite amazi mu ntoki bari mu nama yabahurije aho.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Abantu bahuriye ahantu ari benshi harimo igitsina gore n'igitsina gabo bahuriye mu nama, mu gihe abicaye imbere ari abayobozi babakirije amazi mu ducupa.

Abagore babiri umwe ufite igitambaro bigaragara ko ari umwisilamu wambaye amarineti aya tuzi nk'umuntu urwaye amaso, n'undi begeranye wambaye amarineti bisa nkaho yambaye amaso bari gukora raporo bisa nkaho baje mu nama, imbere yabo hari icupa ry'amazi.

Ihuriro ry'abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore bicaye mu ntebe za purasitike z'imyeru n'izindi zitandukanye, umwe ari gufata ijambo abagezaho igikorwa cyabahurije aha.

Inzu yahuriyeho abantu benshi b'igitsina gore n'igitsina gabo, aho bicaye bumva inama bitabiriye. Imbere bakirijwemo ibinyobwa bitandukanye.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Umubare wa gatatu uri mu ibara ry'umuhondo ugaragaza iminsi ibura kugira ngo abatarishyura umusoro ku mutungo utimukanwa bawishyure hakiri kare.

Mudasobwa ishinzwe gushyiraho ikarita, kureba niba amafaranga washyize ku ikarita utegesha zino modoka zitwara abagenzi niba amafaranga yageze ku ikarita yawe.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bo mu ngeri zose baremye isoko ryubakiye ryiganjemo ibikomoka ku buhinzi birimo amacunga, indimu, ibinyomoro, kokombure, imineke n'ibindi byinshi hagamijwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi

Ku nshuro ya makumyabiri na rimwe bashimira abasora, ukwezi ko gushimira abasora ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu; mu gihe bagusaba fagitire ya EBM, wubake u Rwanda rwiza.

Iminsi ibiri ibura kugira ngo abatarishyura umusoro ku nyungu ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane; bazabe barangije kwishyura umusoro ku nyungu.

Umuntu uri ukoresha mudasobwa agana ku cyicaro cy'Irembo, ari gushyira akarere ka Huye aho ari kuzuza igipapuro kimwemerera gukora ibyo bamusabye.

Umujyi mwiza utatse neza urimo inyubako zigezweho ndende, hegerejwe itente ry'umweru nk'abantu bitabiriye inama ihuza abantu benshi muri kaburimbo nziza itatsemo ibiti byiza.

Ipoto rirerire ry'amashanyarazi; rifashe ku kindi cyabugenewe gutambaza amashanyarazi mu ngo zitandukanye cyangwa mu bikorwaremezo bitandukanye, riherereye hagati mu biti byiza.

Imodoka yo mu bwoko bw bw'ivatiri ikora akazi ko gutwara abagenzi, isize ibara ry'umweru n'umuhondo iri imuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'ibumoso hari abagore babiri bari gutambuka bambaye utuntu mu mutwe, hirya yabo hari umutaka wa emutiyene ucururizwamo amayinite.

Kaburimbo iparitswemo imodoka nyinshi zigerekeranyije, ikirere gisa nabi gitanga imvura n'umugabo wambaye amakoti wikingira imvura ndetse n'igiti kuruhande kirekire.

Ihuriro ry'abagabo n'abagore bicaye mu ntebe z'imihondo bambaye neza bitabiriye inama bakurikiye igikorwa bari kwerekwa imbere.

Umugabo uri imbere wambaye amarineti, ufite ikibazo cyo arwaye amaso n'ikoti na karuvati mu ijosi, uri imbere y'abafite ibyaha bagiye gucirwa imanza mu rukiko.

Abantu batanu bahagaze harimo abagabo batatu abagabo babiri b'ibumoso bambaye amakoti na za karuvati umwe yambaye ikotite ntakaruvati n'abagore babiri bitabiriye inama.

Abagabo babiri umwe bose bambaye udupfukamunwa umwe ari umucamanza undi ari ushinjwa ibirego bitandukanye, bari kureba muri mudasobwa bareba icyo bakora.

Umugabo wambaye imyenda y'abacamanza, wambaye karuvati mu ijosi, wambaye amarinete mu maso, arwaye amaso, ufite akazi ko gucira abantu imanza.

Ibicupa bibiri by'umutuku bizwi nko kuzimya ahafashwe inkongi y'umuriro, bifatishijwe akantu k'icyatsi bakanda bagakoresha undi muyoboro w'umukara ukwirakwiza ibyo bizimya inkongi y'umuriro.

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Kagame Paul afite mikoro mu ntoki ari gutanga ijambo ku banyagihugu, ahagarariye efuperi mu matora.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru wo mu ishyaka rya Girinipati, uhagaze mu bantu benshi, uri kuvuga ijambo, yivuga cyangwa yiyamamariza ku gikorwa runaka.

Nyakubahwa perezida wa repubulika yambaye agapira k'umweru k'ishyaka rya efuperi ari kwiyamamariza n'amabendera menshi ya efuperi y'abamushyigikiye mu gikorwa arimo.

By'ibanze wakora mu gihe habayeho gusohoka kwa gaze, mu gihe uri nko mu nzu ushobora gusohoka cyangwa ugakoresha ubundi buryo bwakurinda kugira ngo itaza kukwangiza.

Umusore wambaye imyenda y'imikara n'ingofero mumutwe y'umukara ufite terefone ku gutwi uri kuvugana na mugenzi we, bisi itwara abagenzi mu ibara ry'icyatsi imunyuraho.

Umumotari utwaye umugenzi n'undi mu motari inyuma ye mu muhanda utatsemo ibiti ku ruhande ndetse n'ubusitani hasi, umuhanda urimo imirongo y'imyeru ndetse n'iy'umuhondo.

Imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi itwara ibintu biremereye, ibisikana n'umumotari uri ku rumoto wambaye kasike mu mutwe, mu muhanda uzwi nka kaburimbo.

Imodoka y'umweru, iri mu muhanda iri kubisikana n'imodoka nini, yikoreye amakaziye, harimo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, ku ruhande har'ibiti binini birebire.

Imodoka nini y'ubwikorezi y'ibara ry'icyatsi n'umuhondo ibisikana n'indi iri muri kaburimbo, kuruhande amapave meza inyuma hari indi iyikurikiye.

Ikinyabiziga cy'ibinyamitende cyikoreye imizigo riri mu ibara ry'ubururu, ryanditseho nimero ya telefone ibisikana n'indi modoka y'ibara ry'icyatsi mu muhanda.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Abamotari benshi bahuriye ahantu aho baparika, imbere hari inzu nini muri izi zigezweho z'amabara y'amabara y'ubururu n'imodoka zitambika cyangwa zigendera mu muhanda.

Umuhanda urimo imodoka y'ubwikorezi y'umutuku itwara imizigo ndetse n'imodoka y'umweru izwi nka takisi, itwara abakiriya bagiye ahantu hatandukanye n'ijoro na moto imbere yabo.

Utunyabiziga tubiri duhererekanyije tw'ibinyamitende twikoreye twakorewe hano mu Rwanda twikoreye imizigo irimo ibara ry'ubururu ritatse ku ruhande.

Umunyegare wikoreye umuzigo munini uri mu mifuka y'umweru ahambiriyeho imikoba y'igare agemuriye ahatandukanye aho bamutumye kuyishyikiriza.

Umuhanda urimo ikimenyetso cy'aho abanyamaguru bambukira giteganye n'imodoka nini itwara abagenzi, ifite amabara atandukanye y'icyatsi, ubururu ndetse n'amagambo yanditseho hejuru.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Umugore udafite umusatsi wambaye linete, ikanzu y’iroza ryerurutse, abantu benshi inyuma ye.

Akarango ka emutiyeni emutiyeni kanditseho imibare umuntu ashobora kwifashisha yishyura umucuruzi igihe aguze imyenda, hano hari imyenda myinshi itandukanye y'amapantaro yab'abagabo nawe ushobora kuza ukigurira ipantaro ubundi ukishyura ukoresheje terefone.

Imodoka y'ubururu iri guca mu muhanda w'ibumoso ica hagati ahazwi nk'aho abanyamaguru bambukira, inyuma yaho inyuma yayo hari iyindi aho abanyamaguru bambukira hari umunyamaguru ugiye kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo, iburyo bwayo hari undi muhanda wa kaburimbo urimo ibishushanyo by'aho abanyamaguru bambukira; harimo itara rirerire akurikiranye imbere yayo hari inzu nini zizwi nk'izigezweho.

Umuhanda wa kaburimbo mu bice bibiri bitandukanye, iy'uburyo n'iy'ubumoso, mu gihe iy'uburyo irimo ibishushanyo bigaragaza aho abanyamaguru bambukira ndetse harimo na moto.

Umumotari uhetse umugenzi w'umugore uhetse akana inyuma mu mugongo, imbere hari motari uhetse umugenzi w'umusore, hejuru ya kaburimbo hari ikiraro cya kaburimbo.

Imodoka nini y'ibara ry'umweru itambuka mu muhanda igi kuzenguruka imbere hari abamotari batwaye abagenzi mu muhanda hagati harimo ubusitani bukikijwe n'amatara maremare.

Umuhanda moto ihagaze itegereje ko umunyamaguru yambuka ahabugenewe, akambuka hashushanyije aho umunyamaguru yambuka muri kaburimbo n'imodoka z'ibisikana ku wundi muhanda wo hirya.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.